Kwa muganga ni hamwe hafasha abantu cyane, iyo umuntu yarwaye ajya kwa muganga bakamupimamo indwara, iyo bayimusanzemo bamuha imiti cyangwa se inshinge hanyuma akabasha gukira.

Umubyeyi iyo atwite ni byiza yuko igihe cyo kubyara cyenda gusohora ajya kwa muganga, hanyuma akaba ariho abyarira, kuko abaganga baramufasha bakamwitaho, bakamukorera buri kimwe cyose. Hanyuma agataha ameze neza hamwe n'uruhinja rwe.

Amateke ni meza cyane. Cyera imboga zayo ari yo makora yararibwaga akaryoha cyane cyane iyo uyavanze n'ibishyimbo cyangwa se ugashyiramo n'izindi mboga.

Igiti bita sderera ni igiti kinuka cyane, ariko kandi kirakura kikaba kinini ku buryo gishobora kuvamo imbaho, kikaba cyavamo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Hirya no hino mu midugudu no mu tugari wasanga ahantu hatari ibiraro. Rero iyo abaturage bashyize hamwe hanyuma bagatema ibiti, baraza bakakora ibiraro kandi kugenderana bikaba biroroshye cyane.

Mu Rwanda hamwe na hamwe tuhasanga igihingwa cyitwa ikiyoti, ikiyote akaba ari igihingwa cyiza cyane kikagira amababi nayo ashobora kuribwa, ikiyote gishobora kuribwa kigereritse ku ibishyimbo cyangwa se ukagihata ukagitekana n'ibirayi. Ibyo byose biraryoha.